Umugabo wambaye amadarubindi, afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye n'isaha ku kaboko, inyuma ye hari intebe zisize irangi ry'icyatsi ndetse n'imitako n'amatara ari kwaka.

Inama yahoze abaturage benshi bari mu inzumberabyombi, bicaye ku ntebe z'icyatsi, imbere yabo hari ameza ateretseho amakaye n'amakaramu, amacupa y'amazi na telefone.

Abantu benshi bicaye hamwe, harimo abagore n'abagabo ndetse n'umusirikare, ku ntebe z'umutuku, bari mu cyumba gisize irange ry'umuhondo, amadirishya y'ibirahure afunguye.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'umukara, isaha ku kaboko, afashe indangururamajwi, inyuma ye hari abantu bahagaze n'abicaye.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'umuhondo, afite indangururamajwi mu ntoki ari gutambutsa imbwirwaruhame. Inyuma ye hicaye umupolisi wambaye impuzankano ndetse hari ameza ateretseho uducupa twamazi.

Icyumba kinini kicayemo abantu bafite amakayi n'amakaramu, ku meza ariho ibitambaro bisa umuhondo. Imbere hari umupolisi ufite indangururamajwi ari kugira icyo ababwira.

Icyumba kinini cyubakishije amatafari ahiye, umurongo usize irangi ry'umweru hicayemo abantu ku ntebe z'umutuku babahaye amazi yo kunywa, amarido amanitse.

Ababyinnyi b'abasore n'inkumi bambaye imikenyero, inigi mu gatuza, ndetse n'udutambaro mu gahanga. Bari kubyinira abantu bicaye mu nyubako, nini.

Umugabo wambaye ishati yumweru akenyeye igitambaro afite icumu mu ntoki. Imbere ye hicaye abantu, kumeza hari icupa ry'amazi ndetse na ji.

Ababyinnyi bari kubyina bambaye imikenyero y'umweru n'amasengeri, urunigi mu ijosi n'udutambaro tubiri mu gahanga, inyuma yabo hari abantu benshi bicaye, imbere yabo hari ameza.

Ababyinnyi bambaye imikenyero, urunigi mu ijosi n'agatambaro mu gahanga bari kubyina, mu cyumba kinini harimo abantu bicaye, imbere yabo kumeza hateguye indabo.

Ababyinnyi bambaye imikenyero y'umweru n'umukara, umwe afite mikoro mu ntoki, abandi bari gukoma amashyi n'ingoma zibateretse impande . Inyuma haparitse imodoka ndetse hari ibiti.

Umugore wambaye agapira n'ingutiya, yishyizeho n'igitambaro ,ari gusya amasaka ku rusyo n'ingasire, impande hateretse agatebo ku musambi.

Abakobwa bambaye imikenyero n'inkweto zihagaze basokoje imisatsi bashyiramo udutambaro tw'umweru, inyuma yaho ku gikuta hamanitse amafoto ndetse n'amarido.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku ufashe terefone mu ntoki yambaye agakomo ku kaboko ahagaze mu nka z'ibihogo zifite amahembe maremare, inyuma yaho hari isambu iteyemo ibiti.

Abagabo babiri harimo umuzungu wambaye amasarubeti n'ingofero inyuma amajire y'icyatsi bafite mudasobwa mu ntoki, bahagaze mu cyanya cyahariwe amashanyarazi harimo ibyuma byinshi ndetse n'insinga.

Abakozi bashinzwe iby'ubwubatsi, bambaye udupfukamunwa, amajire y'icyatsi, n'amapantaro n'inkweto, bahagaze impanda y'inyubako, inyuma yabo hari ibyuma byinshi by'insinga z'amashanyarazi n'igiti.

Inzu isakaza amabati, isize irangi ry'ubururu, impande hari imirasire y'izuba ubukarabiro ndetse n'abantu bari gutambuka, haparitse imodoka, iruhande hari ishyamba.

Umukozi w'ikigo gishinzwe, amashanyarazi. Yambaye isarubeti iriho inyuma, imibare n'ikirango, ndetse n'ingofero y'umweru. Ari gukanda kuri mubazi.

Umugabo wambaye ingofero y'umuhondo n'itaburiya y'ubururu n'ipantaro y'umukara, yuriye hejuru ku ipoto y'amashanyarazi ijyana insinga mu duce dutandukanye.

Uruganda runini rwubakishije ibyuma, impande hari imbuga y'ibitaka, ndetse n'umugabo uhagaze wambaye imyenda y'umukara, hakurya hari umusozi.

Abagabo babiri bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro y'umukara, bahagaze hejuru y'inzu yubakishije amabati y'umutuku. Bari kuhashyira umurasire w'izuba.

Umukozi w'ikigo gishinzwe amashanyarazi wambaye igisarubeti ahagaze hejuru ku ipoto n'urwego ihuza insinga z'amashanyarazi izijyana muce zitandukanye.

Inzu isakaje amabati y'umutuku, hejuru hamanitse umurasire w'izuba, hakurya hari umusozi uriho ibiti n'amazu yo guturamo.

Ikiraro kinini kizitije ibyuma bisize irange ry'icyatsi, munsi hari umugezi utemba, impande hari abantu benshi n'imodoka n'igare biri gutambuka.

Inyubako isize irange ry'umweru isakaje amabati y'umutuku, munsi hari ubusitani bw'indabyo ziconze neza ndetse na pisine.

Inzu isize irangi ry'ubururu, amadirishya nzugi bisomweruru. Isakaje amabati impande hari igiti ndetse ikirere kirakeye.

Abantu benshi bahagaze harimo n'umusirikare, imbere yabo hari indabyo zihinze n'inyuma hari inzu isize irange ry'ubururu isakaje amabati, impande hari ikigega gifata amazi.

Ikiraro kinini kizitijwe n'ibyuma hahagazeho abantu hejuru, munsi hari umugezi w'amazi atemba. Hakurya umusozi uriho amazu yo guturamo.

Abantu benshi biganjemo igitsina gabo, bahagaze mu muhanda, imbere yabo hari bariyeri, inyuma amazu yubakishije amabati ndetse n'ibiti.

Mu cyumba kiriho amagambo, yandikishije inyuguti nkuru zisa umukara, ifite urugi rusize irangi ry'ubururu rufunguye, impande hateretse intebe zo kwicaraho.

Umukuru w'igihugu ari gutambuka mu muhanda, inyuma ye hari abacunze umutekano we, bambaye udupfukamunwa ndetse n'umusirikare. Impande hari inzu zubakishije amatafari ahiye ku murongo.

Inyubako y'isoko isakaje amabati izitije n'ibyuma, mo imbere hubakishije amatafari ahiye, impande ye hari ubwiherero ndetse n'ibiti.

Umuhanda munini w'igitaka ubona ko ari mushya, impande hakikijwe n'uduti dutoya, tutarakura, amazu ari ku murongo yubakishije amatafari ahiye, arimo umurongo usize irangi ry'umuhondo ndetse risakaje amabate.

Inzu y'urwibutso isa irangi ry'umweru, amabati y'umukara, ifite amadirishya menshi ndetse handitseho ko ari urwibutso rwa Nyagatare mu ibara ry'umukara ndetse n'ikimenyetso cy'urumuri, imbere hari ubusitani.

Inyubako nyinshi zisa zisakaje amabati y'icyatsi, hari umuhanda unyuramo hagati n'ahandi hari abafundi bari kubaka iyindi nyubako nshyashya.

Urujya n'uruza rw'abantu batambuka ku mupaka uriho ibyapa bisa icyatsi n'umweru byanditseho n'amagambo y'umukara, ipande hari ibiti.

Abagenzi benshi bari gutambuka mu kiraro cyo mu kirere, hasi hari ikibaya cy'imirima itandukanye, imwe irahinze n'indi idahinze. Hakurya hari ibiti.

Inzu isakaje amabati yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umweru, imbere hari icyapa ndetse yometseho ibipapuro, inyuma hari ibiti.

Umuhanda munini wa kaburimbo iruhande hari icyapa cyerekana umupaka utandukanya ibihugu ndetse hari ubusitani n'amashyamba.

Icyapa gitandukanya imipaka gisa icyatsi n'umweru, inyuma yacyo hari umusozi uriho ishyamba ry'ibiti byinshi ndetse n'amazu yubakishije amabati.

Inzu ebyiri zisize irangi ry'ubururu, risakaje amabati. Imbere yazo hateretse intebe zicayeho abantu ndetse hari ubusitani bw'indabyo.

Abantu benshi bari hamwe bicaye ku ntebe bafite amacupa arimo amazi yo kunywa, amakayi n'amakaramu bari kwandika, bambaye udutambaro tugaragaza igikorwa cyo kwibuka ndetse inyuma hari inyubako.

Abantu bahagaze mu kayira kanyura mu rutoki harimo n'umupolisi, impande hari insina nyinshi ndetse n'igiti cya avoka, hari umugabo ufite inkoni mu ntoki.

Abaturage bicaye ahantu hamwe bari kuganirizwa umwe ufite telefone mu intoki, imbere yabo hahagaze abayobozi harimo umupolisi n'umusirikare. Inyuma haparitse amamodoka ndetse n'imirima.

Abagabo batatu bahagaze, umwe afashe ikayi mu ntoki, undi terefone. Inyuma yabo hari igiti cy'umwembe n'ameza ahateretse ndetse n'ubusitani bw'indabyo.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari abasirikare wambaye amadarubindi, bari mu gikorwa cyo kwibuka inyuma yabo harazitiye n'ibyuma ndetse hari ibiti.

Umugabo wambaye linete, ishati n'ipantaro ari guha igipapuro undi amushimira, inyuma ye hari abagore bambaye imikenyero y'umweru n'ubururu ndetse n'ihema ryubatse iruhande haparitse imodoka.

Abantu benshi bafite amasanduku y'imirambo n'abandi bafite indabyo bagiye gushyingura, impande hari urwibutso rw'abazize jenoside, ni inyubako isize irange ry'umweru isakaje amabati.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge yiteza n'igitambaro, afite indangururamajwi ari kuganiriza abantu benshi bicaye inyuma ye harimo n'uwambaye agapfukamunwa.

Abantu benshi higanjemo urubyiruko hahagazemo umupolisi, inyuma yabo hari akazu gasize irange ry'umweru haparitse imodoka ndetse n'ishyamba n'umuhanda.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati yumweru na karuvati yambaye n'amadarubindi ahagaze imbere y'ameza afite indangururamajwi mu ntoki ari gutambutsa imbwirwaruhame, inyuma ye hari inyubako.

Abagabo bahagaze mu gahanda kari mu rutoke, umwe ufashe inkoni mu ntoki ndetse harimo n'umupolisi, inyuma hari igiti cya avoka.

Abagabo bicaye munsi yinzu ifite amadirishya asize irangi ry'ubururu ,bicaye ku ntebe z'umweru imbere yabo hateretse ameza , bafite ikaye mu ntoki ndetse hari n'ibyatsi.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu, ahagaze ari gutanga ikibazo mubaturage bicaye inyuma ye n'undi wegamiye igiti, hari insina n'ibihuru.

Inzu nini y'urwibutso isize irangi ry'umweru isakaje amabati, ku mva hateretse indabo, inyuma hari ubusitani bw'indabo ziteye n'amashyamba.

Abantu benshi bicaye mu kabuga karimo ibyatsi ndetse n'abayobozi bicaye ku ntebe harimo abasirikare bari kuganira, umugore uhagaze niwe ufite ijambo, inyuma yabo hari ishyamba ry'ibiti ndetse n'uruzitiro.

Amapoto menshi ariho insinga z'amashanyarazi ziyajyana mu byerekezo bitandukanye. Impande hari inzu isakaje amabati y'umutuku ndetse n'ibiti birebire.

Uruzitiro rwanditseho gare ya Nyagatare. Harimo' urujya n'uruza rw'abantu, amapikipiki, abantu bafite ibikapu ndetse n'imodoka ziparitse.

Umuhanda wa kaburimbo, impande hari ibyapa bihashinze bibiri, ipoto y'amashanyarazi n'igiti ndetse n'ubusitani,. Hirya hari inzu ndetse n'ishyamba ry'inzitane.

Inzu isize irangi ry'umweru handitseho inyuguti zisize ibara ry'icyatsi, urugi rusa umukara ndetse ni ibirahure.

Ikibuga kinini harimo umumotari wicaye ku ipikipiki, impande haparitse amamodoka abiri n'abantu bahahagaze inyuma yabo hari ibiti.

Icyapa gisize irangi ry'umutuku n'umweru, hashushanyijemo umuntu mu ibara ry'umukara, kiri impande y'umuhanda wa kaburimbo, iruhande hari ishyamba ry'ibiti birebire.

Ikibuga kinini, giparitsemo imodoka, kizwi nka gare, harimo abagenzi ndetse hubatse utuzu, abagenzi bicaramo n'izindi z'ubucuruzi, iruhande hari ibiti.

Umumotari utwaye ipikipiki ahetseho umugenzi imbere ye hari ikamyo ihagazemo umuntu, impande y'umuhanda hari amazu y'ubucuruzi ari ku murongo, inyuma yayo ibiti.

Umuhanda munini wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti biteye ku murongo n'amazu yubakishije amatafari ahiye asakaje amabati.

Inzu yubakishije amatafari ahiye n'indi isize irangi ry'umweru imbere, hari indabo ndetse na moto eshatu zihaparitse, imwe iriho umumotari ari kuvugana n'umugenzi.

Umunyonzi utwaye igare ahetse igikapu, ndetse, n'umugenzi mu muhanda wa kaburimbo. Imbere hari icyapa, kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru cyanditsemo imibare n'imirongo y'umukara.

Abantu benshi bafite amasuka mu ntoki bari guhinga, imbere yabo hari ikigunda n'ibihuru ndetse inyuma ishyamba ry'ibiti by'inzitane.

Abaturage harimo abagabo n'abagore bari mu muganda, harimo abikoreye amabuye ku rutugu, abapolisi n'abasirikare, impande hari indabo, ibigori ndetse n'inzu.

Abantu benshi higanjemo abambaye imyenda y'imikara bafite amasuka bari guhinga mu murima urimo ibihuru ndetse n'ibiti, inyuma yabo hari uruzitiro rw'imiyenzi mo imbere haparitsemo imodoka.

Abagabo batanu bari kuganira ndetse n'umugore umwe, harimo n'umupolisi n'abambaye amadarubindi, bahagaze munsi y'inyubako yubatse igerekeranye isize irangi ry'umuhondo.

Abaturage benshi bari ahantu hamwe bari mu gikorwa cy'umuganda bafite amasuka mu ntoki harimo n'abasirikare bambaye impuzankano, inyuma yabo hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abayobozi bicaye imbere ku ntebe bari kuganiriza abaturage bicaye hasi mu twatsi, imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi na telefone. Inyuma yabo hari igiti ndetse n'inzu.

Umugabo uhagaze wazamuye amaboko ari gusuhuza abantu bicaye imbere ye, inyuma ye hari indabyo nyinshi cyane haparitse n'amagare abiri, hari inzu isize irange ry'ubururu ndetse n'ikigega gifata amazi.

Abantu benshi higanjemo igitsina gabo ndetse n'abasirikare babiri bambaye impuzankano, bafite amasuka mu ntoki bari guhinga inyuma yabo hari uruzitiro rwubakishije imiyenzi mo imbere ibiti.

Umusore wambaye umupira w'umutuku, yikoreye ingata iriho ibuye, inyuma ye hari abandi bantu bahahagaze n'umugezi w'amazi atemba.

Abantu benshi bari mu muganda harimo abapolisi ndetse n'abasirikare, bafite amasuka mu ntoki bari guhinga, inyuma yabo hari urutoki runini ndetse n'ibiti.

Abantu benshi bicaye, mu gacaca munsi y'igiti bari mu nama, inyuma yabo hari urutoki n'inzu, imwe hakurya umusozi, uriho amashyamba.

Abantu benshi higanjemo urubyiruko, harimo abambaye amajire asa icyatsi bicaye ahantu hamwe, inyuma yabo hatatse ibitambaro by'icyatsi n'umweru.

Umupolisi uri gutanga ikiganiro impande ye hahagaze abasore babiri ndetse n'abantu benshi bicaye hasi n'abahagaze bitwikiye imitaka mu kibuga. Inyuma yaho hari ibiti n'amazu.

Ikipe y'abakinnyi bari kwinjira mu kibuga bagiye gukina bambaye imyenda isa ndetse inyuma hari abafana bicaye. Hasize amarangi y'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Abakinnyi bari mu kibuga ni amakipe abiri ari gukina umwe yambaye imyenda y'ubururu mu mugongo handitsemo na nimero z'umukara, impande yambaye imipira y'umweru n'ikabutura ya oranje, bafite balo bari gukina inyuma y'ikibuga hahagaze umwana.

Abantu benshi, bari gukora imyitozo ngororamubiri, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, ubururu, umutuku, umweru, umukara, umuhondo, bahagaze mu kibuga kinini.

Abakinnyi b'umupira bambaye imyenda ya siporo isa umuhondo irimo uturongo tw'umukara ndetse n'iyindi y'ubururu bicaye ku ntebe z'abakinnyi mu kibuga iruhande hari uducupa twa'amazi ndetse n'umupira wo gukina.

Abakinnyi bari mu kibuga bambaye imyenda ya siporo y'umuhondo n'umukara, undi icyatsi n'umuhondo n'amasogisi y'umukara bahagaze mu kibuga, inyuma yacyo hari ibiti n'amazu asakaje amabati.

Abakinnyi babiri bambaye imyenda ya siporo y'ubururu, bari gukina umupira impande hari, ibiti byinshi ndetse n'urutoki, amazu yo guturamo asakaje amabati y'umutuku.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga impande y'amazamu niho bahagaze, inyuma y'ikibuga hari ibiti ndetse n'inzu zisakaje amabati y'umutuku.

Amakipe abiri ari mu kibuga, imwe yambaye ubururu, indi yambaye umuhondo, bari gukina umupira, harimo n'umusifuzi, wambaye umupira w'umutuku n'ikabutura y'umukara.

Umusore wambaye imyenda ya siporo isa ubururu harimo n'icyatsi, yifashe ku gutwi ahagaze mu kibuga kinini. Inyuma hari ibiti n'amazu, yo guturamo.

Amakipe abiri ari mu kibuga gukina, abakinnyi bamwe bambaye imyenda y'umuhondo n'umukara abandi ubururu n'umweru, hirya hari inyubako z'aho abantu bicara ndetse munsi haparitse amapikipiki.

Ku kibuga kinini harimo abantu bari gukina umupira ndetse n'amazamu ahantu abasifuzi n'abatoza bicara, ndetse inyuma hari inzu zo guturamo.

Ku kibuga cy'umupira hari abantu bahagaze bari guhemba ikipe ya mbere yitwaye neza mu marushanwa, bari kubaha igikombe, umupira wo gukina ndetse n'amafaranga.

Abakinnyi benshi bari mu kibuga bambaye imyenda y'ubururu ya siporo, bari gukina umupira inyuma y'ikibuga hahagaze abantu bari kubareba, hari ibiti ndetse n'amazu yo guturamo.

Abantu bari mu myitozo ngororamubiri, ku kibuga kinini cyane impande hari aho abasifuzi n'abatoza bicara, hari amatara ashinze ku mapoto.

Amakipe abiri ari mu kibuga bari gukina umupira, bamwe bambaye imyenda y'ubururu, abandi imyenda itukura. Impande y'ikibuga hari urutoki n'amazu yo guturamo.

Abagabo babiri bari gukina umupira mu kibuga kinini, giciyemo imirongo y'umweru, bafite balo, bambaye imyenda ya siporo, umwe isa oranje, undi ni umuhondo.

Abantu benshi bahagaze bari mu myitozo ngororamubiri bambaye imipira y'umuhondo, umutuku, ubururu, icyatsi bahagaze mu kibuga, inyuma yacyo hari amazu yo guturamo.

Ikibuga kinini harimo abakinnyi bari gukina umupira ndetse n'amazamu n'intebe z'aho abatoza bicara, inyuma yaho hari abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye amadarubindi ishati n'ipantaro ari gutambuka mu kibuga, impande ye hari umukinnyi wambaye imyenda isa ubururu n'amasogisi uri gukina.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amatara ari kwaka, impande hari inyubako isize irange ry'umweru, n'ibiti.

Akayira gaca mu gisambu kinini kirimo ibyatsi hari kunyuramo abagenzi bambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara impande hari ishyamba ry'ibiti.

Umuhanda munini wa kaburimbo harimo imodoka isa umweru iri gutambuka, iruhande hari ishyamba ry'ibiti birebire ndetse n'ibihuru.

Ku muhanda munini wa kaburimbo impande haparitse ipikipiki, hakurya hari amazu y'ubucuruzi asize irange ry'umuhondo, mo imbere hapakiyemo imifuka ya sima, hanze hari kandagira ukarabe.

Umuhanda munini wa kaburimbo hari umunyonzi utwaye igare ari gutambuka n'ibyapa bibiri biri mu mabara y'umutuku n'umweru hashushanyijemo n'umukara, impande hari ishyamba.

Umunyonzi uri ku igare mu muhanda munini wa kaburimbo, inyuma ye haparitse imodoka y'umukara n'abantu bahicaye impande y'amazu y'ubucuruzi asi irangi ry'umweru ndetse n'ibiti.